Ni ikipe yo m'Ubudage yitwa Bayern Munchen ikina muri Bundesliga, ikaba ari umufatanyabikorwa muri gahunda ya visiti Rwanda, hano hasi ni muri BK Arena, aho nabo bafite ifatanyabikorwa muri gahunda ya visiti Rwanda muri irushanwa rya basikete bolo.

Uyu ni umuhanda tukaba tuwubonamo abantu barimo baratambuka, imodoka iparitse, imodoka izamuka, imitaka y'abajenti, amaduka y'ubucuruzi areba mu muhanda, ipoto y'amashanyarazi n'ibiti biteye ku muhanda.

Turabona abantu babiri barimo bajya mu cyerekezo kimwe, bari mu muhanda wa kaburimbo, ufite borodire y'umweru n'umukara, urabona kandi umutaka wa MTN, abantu bicaye, umuntu wambaye isarubeti uhagaze munsi y'umutaka wa MTN.

Abantu baje kwa muganga, hari abatonze umurongo bagiye gufata ibisubizo cyangwa se bagiye kwipimisha, hari n'abicaye bategereje ko umurongo urangira bagakurikiraho, hari n'akagare k'ababana n'ubumuga.

Ndabona uwo bita Sankara, yambaye agapfukamunwa na dokima mu ntoki n'umunyamategeko wambaye ikanzu y'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'ubururu.

Ndabona aba bafungwa bambaye roza n'ikabutura y'iroza n'ishati y'iroza y'amoboko magufi, barinzwe n'umusoroveya wambaye agapfukamunwa n'ingofero n'imyenda y'aba...

Umuhanda wo hejuru n'uwo hasi uca mu kiraro, abamotari n'amatara yo ku muhanda, ari nijoro abantu bagenda n'amaguru.